Umugabo ufite indangururamajwi, wambaye ingofero y'ubururu ndetse n'umupira w'ubururu, ufite terefone mu ntoki, usa nkaho ahagaze, hirya ye hari abandi bambaye imipira isa n'iyo yambaye, hakurya yaho hakaba hari ibitambaro by'umweru.

Abantu bicaye abandi bahagaze, barangajwe imbere n'abagabo babiri b'inzobe, barimo kuganira iruhande rwabo hateretse ibirahure, hateretse n'isahane isa nkaho iriho imbuto.

Abantu bambaye imyenda y'amabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yaho hateretse ameza, ariho ubucupa bw'amazi, hahagaze umugore imbere ndetse n'umugabo, barimo kubwira abicaye, imbere hari igishushanyo kiri kwerekana ibyo bari kwiga.

Umugabo wafashe ijambo uhagaze mu nama, iruhande rwe hicaye undi mugabo wambaye ishati y'icyatsi ndetse n'ikote rijya gusa umuhondo, ahagaze imbere y'ameza, iruhande rwe hateretse agacupa k'amazi n'impapuro.

Abantu bicaye ku ntebe z'umutuku bambaye imyambaro y'imyeru hagati yabo hateye ameza hariho amazi yo kunywa, amakayi imbere hari ibishushanyo barimo kureba ari nabyo bari kuganiraraho.

Abagabo, abagore bicaye hejuru yabo hari ibitambaro by'imitako bikozwe mu idarapo umugore yambaye ikote ry'umutuku umugabo yambaye umupira w'umutuku iruhande rwabo hateretse amazi ateretse ku meza asa n'umutuku.

Abantu bicaye mu nama harimo abagabo bane ndetse n'abagore babiri, imbere y'umugore hari igikapu imbere y'umugabo begeranye hari mudasobwa ndetse n'abandi barimo kureba ku ruhande rw'iburyo.

Abagabo babiri bambaye imyenda ibaranga ko ari abapolisi, ku ruhande rw'iburyo hari umukobwa uri kureba muri telefone, ku ruhande rw'ibumoso hari umugabo wambaye ishati y'umweru ufite telefone mu ntoki, imbere yabo hari intebe ebyiri ziticayeho abantu inyuma hari abantu.

Abantu b'ibitsina byombi, abagabo ndetse n'abagore bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza atwikirije ibitambaro by'ubururu, barimo kwandikira ku meza, bamwe bafite mudasobwa, iruhande rwabo hateretse ubucupa burimo amazi.

Umugore uhagaze wambaye igitambaro mu mutwe, yambaye imyambaro y'umuhondo, ukuboko gufashe ku ntereko, hateretseho mudasobwa, hirya hari ibitambaro by'umuhondo, inyuma hari icyapa gisizeho amabara y'umweru.

Ikoraniro ry'abantu bicaye ku ntebe z'umweru basa nkaho bari mu nama, harimo umupolisi wambaye impuzankano yabugenewe, hari umugore uhagaze wambaye umupira w'umutuku, ufite indangururamajwi uri kubwira iyo mbaga yose nyamwinshi yombi imuteze amatwi.

Ihuriro ry'urubyiruko rwambaye imyenda isa, imipira y'umuhondo, amapantaro y'imikara ndetse n'andi y'ubururu, hirya hari ibyapa bishushanyije muri iyo nzu bicayemo, harimo n'ipoto, bose barangamiye umuntu uri imbere abigisha.

Abagabo n'abagore bicaye mu nama bafite amakayi barimo kwandikiramo ibiri kuvugirwa mu nama, iruhande rwa buri umwe hari agacupa k'amazi ndetse n'amatelefone yabo bamwe muri bo bayafite mu ntoki.

Abagabo n'abagore bateraniye mu nama imbere yabo hari ameza bashyizeho amakaye bicaye ku ntebe z'imikara bambaye imyenda itandukanye, imbere yaho hari icyapa cy'umuhondo n'umweru hakurya yawo hakaba hari ubururu n'umweru, ushushanyijehodarapo ry'u rwanda hagati yaho hari icyapa cy'umweru ku ruhande hari uwambaye umweru ndetse n'umukara ufite indangururamajwi.

Igisa nk'inama hateraniyemo abagabo batandatu ndetse n'abagore batatu, hagati yabo hari ameza, hateretse uducupa tw'amazi n'amakaye iruhande rwabo, barimo kuganira bateganye amatwi bombi.

Inama yitabiriwe n'abagabo gusa, bamwe bambaye amakoti y'imikara, abandi bambaye ay'imyeru, bicaye ku ntebe z'umukara, hakurya yaho hari icyapa cyanditseho ngo Kigali yacu ndetse n'ahandi handitseho Kigali ikeye.

Ingeri zombi abagabo n'abagore basa nkaho bateraniye munzu nini ikorerwamo inama iruhande rwabo hateretse amazi ndetse naji zo kunywa bafite amakaramu n'amakayi barimo kwandika hari indangururamajwi ndetse n'amatelefone yabo ku meza bicaye ku ntebe no iruhande rwabo hari amarido ku madirishya.

Abantu bicaye bateganye nk'abari mu mbwirwaruhame, batatu bicaye ku gihande cy'iburyo, abandi babiri bicaye ku gihande cy'ibumoso, barangajwe n'umugabo uri hagati yabo.

Umugabo uri ku ruhande rw'iburyo wambaye ikote ry'ubururu, iruhande rwe hicaye abagore, hagati yabo hakaba hari ameza asize irange ry'umutuku, hariho uducupa tw'amazi n'amakayi na raputopu, bicaye ku ntebe z'umukara, hirya hari undi mugabo utari kugaragara.

Abagore n'abagabo bicaye hamwe, bateze amatwi uhagaze wambaye ishati y'umweru, imbere yabo hari ameza ateretseho uducupa tw'amazi na mudasobwa, barimo kuganira, hakurya hari umuryango ufunguye, uriho icyapa cy'ibara ry'umweru.

Abagore ndetse n'abagabo, bamwe bicaye abandi bahagaze bafite ibitabo mu ntoki bose, iruhande rwabo hari ameza ateretseho amazi afite ibitambaro by'umweru ndetse n'intebe z'umukara, hirya yaho hari icyapa gishushanyijeho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Umugabo wambaye ikote ry'ubururu n'ishati y'umweru imbere, ufite indangururamajwi mu kiganza cy'iburyo, imbere ye hateretse terefone, inyuma yaho hari abandi bagabo, barimo kumureba ndetse banamuteze amatwi, imbere yabo hateretse ameza.

Ihuriro ry'abagore n'abagabo, abazungu ndetse n'abirabura, bambaye ingofero bagaragaza ko ari abayisilamu bamwe muri bo, abandi bambaye imyenda y'amabara atandukanye, hejuru mu nzu harimo amatara ane, hasi iruhande rwabo hari ameza baterekaho mudasobwa zabo.

Abantu bateraniye mu nama bambaye imipira isa n'ubururu, bayobowe n'umugore ufite indangururamajwi wambaye ikote ry'umukara, hakurya yaho hari ibyapa biriho amadarapo y'igihugu cy'u Rwanda.

Abagore babiri n'umugabo wambaye ikote ry'ubururu bicaye ku ntebe z'imikara imbere yaho hateretse ameza, arambitseho mudasobwa, uducupa tw'amazi, amakaye ndetse n'amakaramu, umugore yambaye isaha ku kiganza cy'ibumoso n'iburyo.

Abagabo n'abagore bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hari ameza ariho amakayi yabo n'amatelefone n'ubucupa bw'amazi, hino hari ikayi y'umuhondo, bose barangaje imbere amaso yabo, bari mu kureba umuntu uri kubasobanurira, babiri muri bo bamanitse ibiganza.

Abagabo babiri ku ruhande rw'iburyo n'urw'ibumoso, hijya hicaye umugore usa nk'aho hari hagati yabo, hateretse ameza harambitseho amakayi ndetse n'agacupa k'amazi, hakurya hashushanyijeho ibishushanyo biri mu mabara no mu moko yose, ku ruhande rw'ibumoso harimo imodoka.

Abagore batatu bicaye ku ntebe, iruhande rwabo hari amezi arambuye nk'igitambaro cy'ubururu, hateretse uducupa tw'amazi n'amakayi n'amakaramu n'agaseke gatoya n'agakapu k'umukara, babiri bisize ibintu by'umutuku ku munwa.

Abagabo n'abagore bateraniye mu nama imbere yabo hari ameza arambuyeho ibitambaro by'ikivurivundi ndetse n'umweru, harambuyeho amakaye, uducupa tw'amazi, ndetse na mudasobwa. barangajwe imbere n'uwambaye ikote ry'ubururu ndetse n'i shati y'umweru.

Urujya n'uruza rw'abagabo abagore ndetse n'abana, bamwe bicaye mu mahema, abandi bahagaze iruhande rwaho, imbere yabo hari umugabo ubarangaje, wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati irimo amabara, ufite indangururamajwi mu kuboko kw'iburyo.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hari ameza, hari n'ibyo kunywa, bafite n'amatelefone yabo, bameze nk'abari kureba umuntu ubarangaje imbere.

Umugabo ku ruhande rw'iburyo ndetse n'urw'ibumoso hagati yabo hicaye umugore wambaye imyenda itukura ndetse n'umukara. Hirya hakaba hari undi wambaye umukara ndetse n'umweru. Bicaye ku ntebe zisa n'umutuku hejuru yaho hari urusenge hakurya hakaba hari abandi bantu bayicaye iruhande.

Abagore batatu bicaye ku ntebe z'imikara, uwo ku ruhande rw'iburyo yambaye ikanzu irimo amabara y'umukara n'umweru, uwo ku ruhande rw'ibumoso yambaye umupira w'icyatsi n'umukara, inyuma yaho hari abandi, iruhande rwabo hari amacupa y'amazi n'ibikapu bafite telefoni mu ntoki.

Amatsinda abiri rimwe ryambaye imyenda isa n'umuhondo, irindi ryambaye isa n'ubururu bicaye ku ntebe y'umweru, ndetse n'ubururu, hejuru harimo amatara abiri arimo kwaka, imbere yaho hari ameza, iruhande rwabo hari icyapa cyanditseho mu ibara ry'ubururu.

Abagabo barimo kureba ku ruhande rw'iburyo bose bambaye imipira y'umweru, bafite amaterefone mu ntoki ndetse n'amakaye, uwo ku ruhande rw'iburyo yambaye isaha n'impeta ku kiganza, inyuma hari undi wicaye ku ntebe y'umweru.

Abagabo n'abagore bicaye ku ntebe bafite amakayi barimo kwandikira ku meza imbere yabo hari ubucupa bw'amazi hakaba hari umugore ubahagaze imbere urimo kuyobora inama iri kuhakorerwa.

Abantu bicaye harimo abagabo batatu umwe yambaye ishati y'ubururu undi yambaye umupira wumweru, uri kuruhande yambaye ishati y'idoma, hepfo hari umugore ufite imisatsi yirabura imbere yabo hari umukobwa wambaye imyenda yicyatsi, ufite urupapuro mu ntoki imbere yaho hari amagambo bari gusoma ahashushanyije.

Inzu ifite imiryango itatu ikinguye hari umukobwa uri kuyinjira mu muryango w'iburyo hejuru kuri ayo mazu hari icyapa cyanditseho ngo irembo.

Inzu iruhande rwayo hashashe amatafari meza akoze muri sima, mu ndorerwamo harimo kugaragaramo imodoka icyapa ndetse n'umugabo, hariho imiryango itatu, hejuru handikishije icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, zo zisize irange ry'umukara.

Umunara muremure cyane usa nk’aho wenda gukora ku kirere cy'ijuru gisa n’ubururu, hariho ibyuma bigiye biwufata kugira ngo sisitemu igende neza, hariho ak’umweru karekare ndetse n'akandi kajya gusa n'akibumbye gafite na mikoro ndende.

Uruzitiro rwubatsemo ipoto iyobora umuriro w'amashanyarazi. Hirya hakaba hari amamoteri afasha uwo muriro gukwirakwizwa. Iruhande rwabo hakaba hari inzu ifite umuryango w'umukara.

Abagabo bambaye imipira yanditseho inyuma, isa n'umweru ndetse n'umukara, bicaye ku ntebe zisa n'umweru, imbere yabo hateretse ameza, hari mudasobwa, hirya hari inzu yubatse neza ifite amadirishya, hejuru yawo hari umutaka usa n'umweru, iruhande rwawo hakaba hari indabo nziza.

Abantu bicaye ku ntebe z'imikara imbere ya hari ameza asize irangi rya kaki hateretseho mudasobwa babiri babiri ku ntebe imbere yaho hari umugabo wambaye umupira urimo amabara y'umweru ndetse n'ubururu umanitse ukuboko kw'iburyo.

Inzu irimo mudasobwa ziteretse ku meza asize irangi y'umuhondo umwe akaba yicaye kuri imwe, harimo imwe yicaweho n'abantu babiri barimo kuyikoreshereza hamwe.

Indangabwishyu itangwa n'irembo, akaba ari inyemezabwishyu igaragaza aho umuntu atuye, ikaba iriho igiciro yishyurwa, ari amafaranga igihumbi magana atanu.

Idarapo ry'u Rwanda iruhande rwawo handitseho amagambo ngo aradibi, munsi yawo hari icyapa gikoze mu mpande enye ebyiri ebyiri zingana, muri icyo cyapa hashushanyijemo inguge ndetse n'imisozi miremire.

Ipoto ndende cyane iyobora umuriro w'amashanyarazi yubakiye n'ibiti by'ibyuma iruhande rwabo hari akazu kanditseho mtn hari n'ibicu birimo kugaragara imbere y'iyo poto.

Sima ikoze neza igiye yubakiyeho ibiti ku ruhande iruhande rwaho hari ingofero y'ibara ry'ubururu n'ijerekani baciye umunwa, hirya hari abubatsi batanu bahagaze iruhande bambaye imyenda yabugenewe bagaragaza akazi bakora bafashe ku byuma hasi hari umugozi.

Abahungu n'abakobwa bicaye ku ntebe z'umuhondo n'umukara biremyemo amatsinda bambaye imyenda y'amabara yiganjemo umutuku, inzu ibari imbere ikaba igizwe n'inzugi eshatu hejuru hari amatara atandatu arimo kubamurikira.

Abanyeshuri bafite umusatsi wabereyeho bambaye impuzankano y'ishuri bicaye mu ntebe zisa na kaki, hejuru hateretseho mudasobwa umwe ari kureba hino abandi barimo kuzirebamo, hasi mu nzu hasize isima.

Inyandiko iri mu ibara ry'ubururu, yo yanyanditse mu mweru, hirya hari imashini bakojejeho ikarita isa n'ubururu, iruhande rwaho handitse ngo genzura neza ko amafaranga washyize ku ikarita ya tapu andi go, yagiyeho.

Umutwe w'inyandiko wanditseho arajibi munsi yawo hakaba irindi jambo ryanditse mu ibara ry'icyatsi riri gusobanura ayo magambo icyo avuze, munsi yaho hakaba handitse mu magambo maremare nimero y'amategeko y'iryo jambo icyo rishatse kuvuga.

Inyandiko ziri mu mabara abiri atandukanye iya mbere mu ibara ry'umweru, iya kabiri iri mu ibara ry'ubururu. Inyandiko ya kabiri iza isubiza ikibazo cyanditswe mu nyandiko ya mbere mu ibara ry'umweru.

Urukuta rwubakishije amatafari ahiye, hagati yayo harimo sima, ku mpande zaho hariho ibyuma biyafashe ndetse hejuru yaho hari umunara usize irangi ry'ubururu, uyobora insinga z'umuriro w'amashanyarazi.

Igisenge cy'inzu kiri kugaragazwa ahantu urusinga rufatiye rukagaragaza insinga ziri guca hejuru y'inzu ndetse n'agasanduku gafatiye ku muryango w'iyo nzu.

Inyubako igeretse rimwe, inyuma yaho hari ipoto iyobora umuriro w'amashanyarazi, ndetse no ku ruhande rw'iburyo harimo ipoto, ahagana hepfo hari y'ibyapa bitatu.

inzu isakaje amategura y'umukara hirya hari uruzitiro rukoze mu byuma iruhande rwaho hari ibiti ndetse hakaba hari n'ipoto iriho insinga iyobora umuriro w'amashanyarazi hasi yaho hari ibiti bikikije icyo giti.

Umunara muremure cyane ahagana hasi hasirangi ry'umutuku hejuru hasize irange ry'umweru imbere yaho hari urusinga rumanutse, ndetse ukaba wubakiye uruzitiro rw'ibyuma hijya hari ikindi kijya kumera nka moteri gisize irangi ry'umutuku n'umweru.

Ibiti bibiri bikoze mu byuma biyobora umuriro w'amashanyarazi, hariho insinga, hirya hari umunara, inyuma y'aho hari ibiti bya gereveriya, hepfo hakaba hari ibindi bimeze nk'ibishyimbo biteye ku butaka.

Inzu iri kugaragara ku gice cyo hejuru gusa, gisize irange ry'umukara, hirya hakaba hari izindi ziri guhinguka, harimo izisakaje amabati asize irangi ry'umweru, hirya hari ipoto irimo kuyobora insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye hagati yayo hasize irangi ry'mukara, hari icyapa cyanditseho nimero kane hejuru hari inzu isakaje amabati atukura iruhande rwaho hakaba hari urugi rusize irangi ry'icyatsi.

Urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga, imodoka ebyiri ziparitse ndetse na moto ebyiri zirimo kugenda, inzu iri hirya ifite amabara y'umuhondo ndetse n'indi iri hirya irimo kubakwa iriho ibiti byinshi.

Igiti giteye hagati mu muhanda w'ibitaka abantu barimo kuwugendamo mu nyengero zawo hari ibiti ndetse no ku ruhande rw'ibumoso hubatse inzu hakurya yaho hari ikirere kiri kugaragara.

Abamotari batatu, uwo hagati ahetse umugenzi iruhande rwabo hari abantu babiri bambaye imyenda isa n'umuhondo hejuru yabo, hari umuhungu uhagaze wambaye imyenda y'ubururu. Hejuru yaho hari icyapa kiriho umugabo uri kwamamaza iruhande rwabo hari imodoka ebyiri ndetse hari n'umubyeyi urimo kugenda wambaye ibitenge by'amabara.

Inzu isa nkaho ishaje isize irange ry'umuhondo isakaje amabati ashaje iriho igiti kiziritseho imigozi iyobora umuriro w'amashanyarazi, hirya hari indabo hakaba hari n'igishangara.

Ipoto igemura umuriro w'amashanyarazi binyuze mu migozi yabugenewe iteye ahantu hateye ibyatsi hirya hari inzu isize amarangi y'ubururu ndetse n'umutuku, hirya yaho hari ikawa.

Inzu yubakiye na sima, imbere yaho hari igiti kiriho imigozi iyobora umuriro w'amashanyarazi, ikaba ifite umuryango w'umukara, hirya hakaba hari imitako ikoze mu ndabo z'amoko y'umutuku ndetse n'icyatsi.

Imodoka ziri guturuka ku ruhande rw'ibumoso, hakaba hari abantu bahagaze iruhande rwaho, akazu ka ye MTN gasa n'umuhondo n'icyapa kirimo amabara y'ubururu, hino yaho hari ipoto iyobora insinga zirimo umuriro w'amashanyarazi, hepfo hari agasanduku, iruhande rwaho hakaba hari akazu gato gakoze mu mabati.

Ibiti by'amoko yose biteye hirya hakaba hari agasozi gatuwe n'abantu, hateretsemo ipoto iyobora umuriro w'amashanyarazi, ifite ubwoko butatu bw'ahantu ishobora gufatira insinga ziwuyobora.

Abagabo bambaye imyambaro isa n'ubururu ndetse n'ingofero z'umuhondo zabugenewe, bigaragara ko ari abubatsi, hirya hari moteri , buriye inzu n'urwego, hirya yaho hakaba hari indi nzu.

Kaburimbo iruhande rwaho hari ibiti birukikije, inyuma yaho hari inzu isakaje amabati asa n'ubururu, iruhande rwaho hari ipoto iyobora umuriro w'amashanyarazi ndetse hariho n'itara rimurikira abagenzi, iruhande rwaho hakaba hari ikindi giti kigufiya kitabaye kirekire.

Ibiti bya gereveriya bihagaze ku nkengero z'umuhanda, imbere m'urugo hari inzu isakaje amabati atukura, hirya m'umuhanda haturuka imodoka ndetse na moto.

Inzu y'umuturirwa yegeranye n'izindi hirya yaho, ifite urugi rusize irangi rufatiye ku gikuta gisize umweru, hejuru hari ipoto iriho insinga zihererekanya umuriro w'amashanyarazi zigiye ziwutanga mu ngo.

Inyubako isize irangi ry'icyatsi, umutuku, umweru, hariho nimero y'ijana na mirongo itatu na rimwe, ifite umuryango usize irangi ry'ubururu, inyuma yaho hari ipoto iyobora umuriro w'amashanyarazi, hejuru yaho hari urusinga.

Inyubako imeze nk'aho iri kubakwa, hejuru yaho harimo guca imigozi iyobora umuriro w'amashanyarazi, inyuma yaho hari ipoto ndende nayo iri kuyobora insinga mu nzu imwe mbere harimo ibiti bifashe iyo nzu abantu bazamukiraho bari mu kubaka.

Inyubako igaragaza ko ari kwa muganga hirya hari gaze imbere yaho hari ipine inyubako isize amarangi ifite inzugi n'amadirishya hirya hakaba hari igitanda gitwarwaho umurwayi urebye.

Inyubako ebyiri zisakaje amabati, zimeze nk'izo kwa muganga, imbere hari abagabo batanu bahahagaze n'abicaye, hari ingunguru zisize irange ry'umweru, hirya hari inzu isakaje amabati zifatiye ku duti tw'ibyuma, iruhande rw'aho hari umuhanda w'ibitaka n'ukoze mu matafari.

Inzu irimo amakaro y'umweru, ku rukuta hasize irangi ry'idoma, iruhande rwabo hari urugi rufunze, rushushanyijeho umuntu wicaye mu ibara ry'umweru, hakurya hakaba hari amadirishya ari kugaragara, iruhande rwabo hakaba hari indobo isize irangi ry'umutuku.

Uruhurirane rw'abantu bicaye imbere y'umuryango, hejuru hasakaje amabati, harimo umubyeyi uhetse umwana, utwikirije ishuka y'umweru, umubyeyi witandiye, ndetse n'undi mubyeyi ukenyeye ibitenge, wambaye agapira k'amabara, n'igikapu giteretse hasi.

Umuhanda ukozwe na sima y'ibiheri imbere k'uruhande rwwiburyo hariho icyapa cy'ubururu cyandikishijeho amabara y'umweru k'uruhande rw'ibumoso hariho inzu, hakurya yaho hari izindi nyubako haparitse n'imodoka y'umukara.

Abantu bicaye, ndetse n'undi uhagaze, ndetse n'undi mugabo ubahagaze iruhande, bameze nk'abateze amatwi uwo wambaye ishati y'umweru ubarangaje imbere, hirya hari umugabo uhagaze ku nkingi, ndetse n'inyuma ye hari umugore wambaye umwenda w'umweru.

Abagabo babiri bambaye hejuru imyenda y'imyeru, uwirabura yicaye ku ntebe y'ubururu undi yicaye ku y'umukara, bose barimo kureba muri mudasobwa, urimo kuyikoresha ari umuzungu ukoresha ukuboko kw'iburyo.

Inyubako isakaje amabati atukura, hirya hakaba urukuta rwubatse mu mabuye, hino yaho hakaba hari umukingo nawo wubatse gutyo, imbere yabo hakaba hari indabo ziconze neza hakurya yaho hari umuntu wambaye umupira w'amabara y'ubururu.

Umuryango ukinguye uhagazemo abantu bameze nk'abaganga bambaye ingofero n'agapfukawa; hino yaho hari umukobwa wambaye ingutiya isa n'ubururu ndetse n'umupira urimo amabara y'umweru n'umukara hejuru yaho hakaba hari idirishya ariko risa nk'irifunze.

Inzu isize irangi ry'umweru hejuru, hasi ari ikivurivundi, imbere yaho hari icyapa, hirya hari umubyeyi ukenyeye ibitenge, iruhande rwe hari abandi bantu benshi bari ahantu hasakaje amabati, iruhande rwaho hari indabo, hirya hakaba hari ikirere kiri kugaragara.

Umugore wambaye umupira w'ubururu, inyuma yandikishijeho amabara y'umweru, ku kiganza cy'ibumoso yambayeho isaha, icy'iburyo gikoze ku mbeba, ameza ateretseho mudasobwa, hirya hari agasanduku gasa umweru, imbere yaho hari imigozi iri kuyobora.

Abagore batatu umwe arimo kwinjira, abandi barimo gusohoka bahetse abana, iruhande rwabo hari umugabo wambaye imyambaro y'umweru n'ishati irimo amabara n'ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, barimo kugenda berekeza hanze, umugore afite agashari k'umweru.

Inzu ifite uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye, iruhande rwaho hasakaje amabati hirya hari inzu iriho indangururamajwi ndetse inasakaje amabati atukura.

Umugore wicaye ku ntebe y'umukara yambaye imyenda itukura n'ingofero y'umukara, amaboko ye yayashyize ku meza, afite impapuro, hari undi wunamye uri gusinya akoresheje ikaramu, iruhande rwe hari undi mugabo wambaye imyenda y'imikara.

Abagabo bane bambaye amakote, umwe yifashe ku munwa. Hirya hari umugore. Bose bambaye amadarapo y'u Rwanda, bicaye imbere yaho hateretse ameza ariho amakayi. Hejuru hari agasanduku karimo ibintu.

Inyandiko iri mu mabara atandukanye, amwe y'umukara andi y'umutuku, ishaka kugaragaza imanza z'imbonezamubano no gushinganisha umutungo w'ubereyemo undi umwenda.

Abantu bicaye mu ntebe bambaye imyenda y'amabara hirya hari umugabo uhagaze hino hari umugabo wambaye imyenda y'imikara n'umugore wambaye imyenda y'ibara bombi bambaye udupfukamuwa bari kuganira.

Umugore wambaye ikanzu y'umutuku n'umweru urimo amabara y'umukara, uhagaze imbere y'indangururamajwi, wambaye amaherena ku matwi, amanitse ikiganza cy'iburyo kiriho agakomo, hirya hari ibara ry'umukara, ukuboko ku ibumoso gufashe ku idarapo ry'u Rwanda.

Umugabo wambaye igikote cy'umutuku, ku mpande hariho umukara, imbere hari umweru, urimo kureba iminwa ye imeze nk'iyenda guseka, amenyo arimo kugaragara, wifotoreje ku gikuta gisa n'umweru.

Abagabo batatu uwo ku ruhande yambaye imyenda isa na kaki, uwo hagati yambaye y'abagororwa uwo ku ruhande yambaye ikote ry'umukara n'umupira, w'umweruma, mo imbere hirya hari abantu bari iruhande rwabo.

Abagabo babiri bambaye imyenda isa, amakoti y'imikara, bafite akantu mu ntoki k'umutuku, ku ruhande hakaba hari aho bahagarara hasize umukara, inyuma yabo hakaba hari igikuta, iruhande rwabo hakaba hari ibyuma bicurangwa.

Umugabo w'igikara udaseka wambaye ishati y'umutuku ndetse n'umupira w'umweru mo imbere, akaba yegamye kuru rukuta rusa n'umweru.

Urukuta rurerure rwubakishije amatafari ahiye hakaba hari umuryango hirya uri mu ibara ry'umukara, hejuru yawo handitse ngo ubufungiro, hino hakaba hari abagabo bambaye imyenda igaragaza y'uko ari abagororwa.

Abantu bicaye hasi mu byatsi ku zuba harimo umwe witwikiriye umutaka undi ahagaze ku ruhande asa nkuwayoboye, umugore afashe ijambo arimo gusoma abwira iyo mbaga nyamwinshi.

Abantu bicaye ku ntebe zitukura imbere y'abo bantu hahagaze umugore bamanitse ikiganza cy'iburyo afashe ku idarapo ry'u Rwanda yambaye agapfukamunwa ameze nk'umuntu urimo kurahira.

Umugore wambaye umwenda w'umutuku, imbere hari umweru ndetse n'ishati y'igitenge, w'inzobe wambaye ingofero y'umukara, wambaye imfashaboni ndetse inyuma hakaba hari ibara ry'umweru ari ryo yegamye kugira ngo bamufotore.

Abagabo batatu bicaye, babiri bo ku ruhande rw'iburyo bambaye ibisa, uri ku ruhande yambaye imyenda y'abagororwa, hirya yaho hari abandi babiri bicaye, hakaba barimo kuganira, uwo ku ruhande rw'ibumoso arimo kureba abicaye hino.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ikoboyi ari ahabitse ibikarito byinshi byometseho impapuro zandikishije amabara y'umukara, hirya hari akantu kameze nkaho'aho bacagingira terefone iruhande rwe hari ikayi isa n'ubururu.

Umukobwa wambaye ikanzu y'umukara ndetse n'abagabo bambaye amakanzu asa n'ay'uwo mukobwa, yitadiye mu mutwe agatambaro k'umutuku, bafashe ku idarapo ry'u Rwanda bamanitse ibiganza byabo basa nk'abaririmo kurahira.

Urupapuro ruriho ibice bitatu; igice cya mbere cyanditse mu kinyarwanda igice cya kabiri cyanditse mu cyongereza igice cya gatatu cyanditse mu gifaransa bigaragaza ko ari amategeko kuko bahereye ku ngingo ya karindwi kuzamuka.

Umugororwa wambaye agapfukamunwa gasa n'ubururu, iruhande rwe hahagaze umugabo wambaye ikanzu isa n'umukara n'ishati y'umweru, inyuma yabo hari abantu bicaye ku ntebe z'imikara, hejuru yabo hari amatara abiri arimo gucana.

Umugabo ufite mfatamashusho, iruhande rwe hari abandi bagabo bane bambaye udupfukamunwa, hari umugororwa, n'umunyamategeko ku ruhande rwe, bari mu rukiko kuburana. Imbere hari ameza bateretse amakayi yabo.

Abantu bicaye mu rukiko bambaye imyenda y'imikara ndetse n'umweru, iruhande rwabo hari umugororwa wambaye impuzankano yabugenewe, imbere y'abo hateretse ameza hari n'umuti urinda umwanda, hakaba hari abantu bambaye agapfukamunwa hirya hari intebe z'umukara.

Abantu benshi harimo abahungu ndetse n'abakobwa, bahagaze bafashe ku idarapo ry'u Rwanda bamanitse ibiganza bameze nk'aho barimo kurahira, iryo darapo rigizwe n'amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Abagabo bicaye ku ntebe ebyiri z'imbere imyenda isaya ndetse n'abagore bibivanzemo inyuma yaho hari abaturage basanzwe inyuma y'abaturage hari ibiti by'amoko yose bicaye mu gacaca imbere hari igitaka kitariho ibyatsi.

Igicupa kirimo amazi, gisize irangi ry'umutuku n'umweru ,hakaba hariho umugozi w'umukara, giteretse imbere y'ibikarito, hirya hakaba hari ikintu kimeze nk'imodoka ihateretse, hasize irangi ry'umweru.

Ibicupa byinshi byivanzemo ibara ry'umutuku, hakaba harimo n'ubururu n'umweru hejuru hari umuhondo, bifite imigozi, biteretse kuri sima, bigaragaza y’uko ari ibizimya umuriro mu gihe hateye inkongi.

Umugabo wambaye impuzangano ya Polisi, iruhande rwe hari umugore ukenyeye ibitenge, imbere yaho hari umumotari uparitse hirya yaho hari undi, imbere yaho hari inzu yubatse iriho icyapa cyanditse mu ibara ry'ubururu.

Icupa ry'umutuku rya gaze, riteretseho isafuriya irimo kwaka umuriro ndetse n'indi ku ruhande, biteretse ku meza, hirya hari ibicupa bitatu bigaragaza ko bizimya umuriro, iruhande rwabo hari abanyeshuri bambaye impuzankano y'ishuri n'umupolisi ku ruhande.

Ibyuma bibiri bisa n'umutuku ku mpande hariho insinga hejuru yawo hari utuntu tw'icyatsi, biteretse ahantu hasi, hirya hari ibikarito ndetse n'imifuka hasizeho amarange arimo kwereka amerekezo.

Abagabo babiri b'abapolisi bambaye impuzankano yabugenewe, bafite imbunda ebyiri, hirya hari umugore n'umugabo bari gutambuka, bahagaze imbere y'umuryango, hejuru hariho icyapa cyanditseho ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe abapolisi.

Imodoka yaparitswe n'umupolisi wambaye impuzankano yabugenewe, umugabo wicayemo yambaye umupira w'umukara urimo kumureba amurebera mu kirahure, hirya hari inzu yubakishije amatafari ahiye.

Abapolisi bambaye imyambaro y'akazi inyuma ya hari abaturage benshi cyane bamanitse amadarapo, iruhande rwaho hari umunara uyobora umuriro w'amashanyarazi.

Abagore babiri baserutse bambaye imyenda isa umuhondo n'icyatsi hakurya yaho hari icyapa gisa n'imyenda bambaye, hakaba hari amahema asize irangi ry'umweru inyuma yaho hari intebe zisa uku nguko, inyu yaho hakaba hari abandi bantu hakurya hari umusozi.

Umugabo uhagaze wambaye ishati irimo amabara y'umweru n'ubururu na karuvati y'umutuku, ku kuboko kw'ibumoso hariho isaaha ukw'iburyo gufashe ku ndangururamajwi, inyuma hari icyapa cyandikishijeho amabara y'ubururu ndetse n'umukara n'umweru, imbere yaho hari ishusho y'umugabo, hirya yaho hakaba hicaye umugore uri kugaragara ukuboko gusa.

Abagore bambaye imipira isa bose y'icyatsi umwe afite urupapuro arimo gusomera bagenzi be undi afite ikayi mu ntoki bicaye ku ntebe zisa n'umweru bose.

Abantu batatu gusa hagaragara ukuboko k'umugabo ndetse n'uw'umugore n'undi uri hirya w'umugabo wambaye ishati y'umweru bahagaze imbere y'igikoresho gishyirwamo imyanda bafite imyanda mu ntoki bashaka kuyihitamo.

Abakobwa babiri bambaye imyenda isa imipira y'imyeru ndetse no hasi umukara imbere yabo hari akantu kameze nk'agasanduku gasize irangi ry'umweru hakurya yaho hari ibisize irangi ry'icyatsi bafatanye igipapuro bombi basa nkabagiye kukimanika.

Abagore n'abagabo bahagaze, umwe afite amakayi ndetse n'igikapu, hirya hari igishushanyo gifashwe n'abandi babiri, hashushanyijeho abantu, imbere y'abo hateretse ameza ariho ibitambaro, barimo gukoma amashyi, barangaje imbere.

Umugore w'inzobe urimo guseka wambaye amaherena ku matwi, ufite umusatsi w'umukara, wambaye ikanzu y'umutuku, ufite indangururamajwi mu kiganza cy'iburyo, wambaye agakomo ku kuboko, ufite umukandara w'umukara umuziritse mu nda, uhagaze mu nzu.

Abagabo biyamamaza batatu, ku ruhande rw'iburyo handitse izina Paul Kagame mo hagati Furanki Habineza, ku ruhande rw'ibumoso Filipe Mpayimana, hepfo yaho hari amanota batsindiyeho mu ibara ritukura.

Imbuga yiciweho n'abagabo ndetse n'abagore abandi bahagaze, iruhande rwabo hari igiti hirya yaho harimo kugaragara ikirere, inyuma yaho hari umugabo bateze amatwi.

Abagabo n'abagore barangajwe imbere na perezida wa repubulika Paul Kagame, bambaye amakote asa n'ubururu, abagore bambaye imkenyero, hirya yaho hari idarapo y'u Rwanda, inyuma yaho hari amatara hejuru abiri arimo kwaka.

Icyapa kiri mu mabara atatu; iry'umutuku, iry'umuhondo, n'iry'icyatsi, gishushanyije mu buryo bwa mpande eshatu, hejuru hariho inyoni iri kureba ku ruhande rw'iburyo.

Umugore wambaye imyenda isa nu'ubururu n'impeta ku kiganza cy'ibumoso, ufite umutako ku kuboko hirya hakaba hari umuntu ukoze mu bugeni wikoreye agaseke, iruhande rwe hakaba hari indabo zitari kugaragara neza. Yicaye mu ntebe zisa n'umweru.

Abagabo batatu n'abagore babiri bicaye ku ntebe z'imikara , imbere yabo hari ameza asize irangi isa n'iby'intebe, bambaye imyenda itandukanye bamwe iy'umukara abandi imikenyero barimo kureba kuhande rusa nkaho ari urw'iburyo

Abamotari batatu uwa mbere ahetse umugabo, uwa kabiri ari kugenda ariko nta mugenzi afite, undi igice cyose kitagaragara ariko yahingutse mu muhanda wa kaburimbo, hakurya hari inyubako imbere yaho hari icyapa kirimo kwamamaza ngo tora Kagame Polo.

Abaturage b'ingeri zose, harimo abana, abagore, abakobwa, abagabo ndetse n'abasaza. Imbere yabo hahagaze umugabo ufite indangururamajwi asa nkaho ari kubabwira ijambo, bombi bamuteze amatwi bahagaze ahantu.

Imbaga nyamwinshi y'abagabo abagore ndetse n'abakobwa, bari ku mirongo ibiri itandukanye, hirya yaho hakaba hari inyubako isakaje amabati, inyuma yaho hakaba hari ibiti, hirya hari abamama bahetse abana, abandi babatereruye mu ntoki.

Inyubako ku rukuta yubakishije amatafari ahiye ndetse n'amabuye. Hejuru hakaba hari ifoto y'umugabo. Hejuru ya ho handitseho isibo ubwiza umuryango ukinguye, ku ruhande rw'ibumoso hanateretse amatafari arundanyije.

Imodoka isize irangi ry'umweru imbere, inyuma hasize iry'umuhondo, irimo kugenda mu muhanda wa kaburimbo, hakurya hakaba hari ibiti, imbere yaho hari inyubako isakaje amabati atukura, hari uruzitiro rusize irangi ry'ubururu.

Abamotari batatu baparitse, imbere yaho hari igiti cya pinusi, iruhande rwaho hari indobo ijyamo imyanda, hari na kandagira ukarabe, hirya yabo hari umugabo wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ipantaro y'umweru, hakurya yabo hakaba hari umunzani.

Urujya n'uruza rw'imodoka, moto ndetse n'amagare asize irangi ry'ubururu ndetse n'umweru, hakurya yaho hakaba hari abantu barimo kwikorera imifuka, hari inyubako isize irangi ry'umukara hirya yaho hakaba hari ibiti byinshi birebire ndetse no hakuno y'umuhanda.

Imodoka nini ishushanyijehoigisimba isize ibara ry'umutuku hejuru hari umukara iruhande rwawo hakaba hari umunyonzi uri ku igare ri kugenda imbere yaho hakaba hari umugenzi w'amaguru wambaye imyenda y'imikara.

Imodoka isize irangi ry'umweru irimo kugenda mu muhanda wa kaburimbo, hicayemo umuntu wambaye imyenda y'ubururu kuri shitingi y'umukara, hakurya hari ibiti n'uruzitiro rusa n'ubururu, imbere yaho hari ipoto ifite itara rimurikira abagenzi.

Imodoka y'ubururu itwaye ibicupa bitangirwamo gaze by'umutuku aho biteretse hasize irangi ry'umweru irimo kugenda muri kaburimbo iruhande rwaho hari ibiti bikikije umuhanda wa kaburimbo.

Imodoka isize irange ry'umweru, icanye amatara, irimo kugenda muri kaburimbo nijoro, andi ari kuyimurikira, ari ku duti tw'ibyuma, iruhande rwaho hari abantu bari kugenda, hari umuhungu uhagaze, wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umupira w'umweru.

Imodoka isize irangi ry'umweru umukara ndetse n'ubururu, iruhande rwabo hari umumotari urimo kugenda muri kaburimbo, hakurya hari ibiti, hari uruzitiro rufatiye ku biti bikikije umuhanda, imbere hari inzu isakaje amabati y'umutuku.

Imodoka eshatu zisize amarangi y'umweru ndetse n'umukara, mu muhanda wa kaburimbo hasizemo irangi ry'umuhondo, hakurya hari ibiti by'indabo bikikije, hirya hari ikindi gikuta gikoze mu biti kigaragaza aho kaburimbo irangirira.

Imodoka y'umweru iri mumuhanda itwikiriwe n'igishashi cy'umukara kizirikishije imigozi iruhande rw'imodoka hari umunyonzi uri ku igare uhetse umufuka w'umweru.

Imodoka isize irangi ry'umweru ifite n'irindi ry'umuhondo ku ruhande, imbere yabo hari abamotari bahetse abagenzi, hakurya hari umumama wambaye ikanzu y'umukara imbere ye hari moto, hakurya hari uruzitiro ruzitiye ibiti bihari.

Imodoka iri kugenda mu muhanda ifunze nyuma n'ingufuri, isize irangi ry'ubururu. Bigaragara ko yakorewe mu Rwanda, hakurya yaho hakaba hari indi modoka isize amarangi y'umweru ndetse n'icyatsi. Iruhande rwayo hari umugabo urimo kugenda wambaye imyenda y'imikara.

Kaburimbo iruhande rwaho hakoze ibiti byiza bitatse umuhanda, inyuma yaho hari imodoka iri kugenda y'ibara ry'umutuku, imbere yaho hari moto ebyiri zihetse abagenzi, hakurya yaho hari inzu yubatse neza ikikijwe n'ibiti.

Kaburimbo irimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga harimo imodokadoka ihetse ikintu kirimo peteroli inyuma yaho harimo abamotari, babiri bahetse abagenzi uri imbere ahetse umwana ndetse imbere yaho hari guturuka imodoka eshatu harimo izisa n'umukara.

Umumotari uhetse umugenzi, iruhande rwe hari imodoka isize irangi ry'umweru, hakurya mu nkengero z'umuhanda hateye ibiti bizitiwe n'igitambaro kijya gusa n'ubururu.

Imodoka isize irangi ry'umweru, imbere harimo umuntu uyitwaye, inyuma hariho shitingi izirikishije imigozi hakurya hari inzu isakaje amabati y'umutuku ,iruhande rwaho hari ibiti, irimo kugenda muri kaburimbo.

Imodoka ifite ibara ry'ubururu irimo kugenda mu muhanda wa kaburimbo, ibumoso bwayo hari ibyapa bibiri ndetse n'ipoto ihagaze iyobora umuriro w'amashanyarazi, inyuma hari abamotari babiri batwaye ndetse n'imodoka isa n'umukara iri kubaturuka inyuma, iruhande rwabo hari ibiti bikikije umuhanda wa kaburimbo.

Imodoka ebyiri zirimo kujya mu cyerekezo kimwe, iy'iburyo ishushanyijeho umukobwa umanitse amaboko, isize irangi ry'ubururu, iy'ibumoso isize iry'umweru, hagati yabo hari umuhungu urimo kugenda wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga, imbere hari abamotari benshi batwaye abagenzi, inyuma hari imodoka isize irangi ry'umweru imbere, inyuma ari umutuku, hakurya hari amashyamba, imbere yaho hari amapoto ayobora umuriro w'amashanyarazi.

Moto ikozwe mu buryo bw'imodoka, ifite amapine atatu irimo kugenda muri kaburimbo, hirya yaho hari imodoka isize irangi ry'icyatsi, inyuma yaho hari abantu babiri barimo gutambuka, hari n'ipine rya moto ririmo guhinguka ku ruhande rw'ibumoso.

Umuhungu wambaye umupira wumukara, ipantaro y'umweru, atwaje undi muhungu wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umukara, ingorofani ifite amapine abiri. Mu ngorofani harimo ibirayi barimo kugenda muri kaburimbo hirya hari ipoto ijyemura urumuri rw'amashanyarazi, iruhande rwabo hari inzu igeretse kabiri ifite amabara y'icyatsi.

Imodoka irimo kugenda ku muhanda wa kaburimbo, ihetse umugabo wambaye ingofero irimo amabara y'umutuku ndetse n'umuhondo n'icyatsi, wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro, mu modoka harimo ibintu bisa n'amakara, hirya hari umumotari uhetse umugenzi ufite ipine ry'imodoka, iruhande rwabo hari umukobwa urimo kugenda wambaye ijipo y'umutuku irimo amabara.

Umuhanda wa kaburimbo urimo kugendwamo n'iyi modoka ya litiko, isize amarangi y'umweru ndetse n'icyatsi, iruhande rwawo hari umumotari uhetse umuntu wambaye umwenda w'ubururu, inyuma ye hari izindi moto, hakurya yaho hakaba hari ibiti ndetse n'izindi nyubako.

Imodoka iririmo kugenda mu muhanda wa sima y'ibiheri, imbere yahohasize irangi ry'umweru, inyuma hahera ifite inzugi z'umutuku, naho ahafungwa n' izo nzugi hasa n'ubururu.

Imodoka irimo kugenda mu muhanda wa kaburimbo icanye amatara atanu, isize irangi ry'ubururu n'umweru, hirya yaho hari inzu ndetse no ku ruhande hari abantu barimo kugenda bambaye imyenda y'imyeru n'imikara.

Imodoka iri mu muhanda wa kaburimbo, isize amarangi y'ubururu ndetse n'umweru ifite amapine y'umukara, imbere harimo abagenzi, hirya yaho hari inyubako, iruhande rwaho hari ibiti byegereye umuhanda wa kaburimbo.

Moto yo mu bwoko bw'imodoka ifite amapine atatu isa umweru iruhande rwaho hari imodoka iri guhita umukara, inyuma yaho hari imodoka isize irangi ry'umweru mu nkengero za kaburimbo hari indabo nziza.

Imodoka y'ubururu irimo kugenda mu muhanda inyuma hasize irangi ry'umweru hejuru hariho shitingi ijya gusa n'umukara, hakurya y'aho hari inzu ndetse n'amapoto arimo kuyobora umuriro w'amashanyarazi, inyuma yaho hari abantu hateretse n'imifuka y'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abamotari babiri umwe ari kugenda undi asa nk'uhagaze, hirya hari imodoka irimo kugenda isize irangi ry'umutuku, iruhande rwaho hari ibipangu by'amazu harimo n'ibiti; hakurya yaho hari insinga z'amashanyarazi.

Imodoka ziri ku murongo umwe, hirya hari abakobwa batatu umwe yambaye umupira w'ubururu ndetse n'ipantaro y’umukara, hirya yaho hakaba hari indi modoka yanditseho ngo Kivu, hakurya hakaba hari ipoto iriho Insinga ziyobora umuriro w'amashanyarazi.

Imodoka iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo isize amarangi y'umweru ndetse n'ubururu icanye amatara, hirya hari indi, iruhande rwaho hari abantu barimo kugenda, hakurya hari amatara arimo kwaka ingeri zose, hirya yaho hakaba hari ipoto irimo kuyobora umuriro w'amashanyarazi n'indi icanye itara ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo kugendamo umunyonzi uhetse umugenzi ndetse n'umumotari hakurya hakaba hari imodoka zihaparitse izindi zirimo kugenda mu nkengero zawo hari ibiti hakaba n'insinga ziyobora umuriro w'amashanyarazi.

Imodoka iri mu muhanda wa kaburimbo ihetse imifuka y'amakara itwikirije shitingi y'ubururu isize amarangi y'umweru ndetse n'icyatsi, hakurya hari ibiti bikikije umuhanda wa kaburimbo izirikishije imikoba.

Imodoka nini yo mu bwoko bwa Ritiko iri mu muhanda itwaye abagenzi mu nkengero za kaburimbo, hari ibiti bya penusi inyuma hari abamotari ndetse n'abanyonzi b'amagare, bari kugenda inyuma y'iyo modoka.

Abanyonzi babiri bafite amagare ahetse imifuka y'ibirayi, umwe yambaye imyenda y'icyatsi, undi yambaye imyenda y'ubururu, iruhande rwabo hari imodoka iri kugenda mu muhanda ndetse no ku nkengero z'umuhanda hariho ibiti by'amoko yose.

Imodoka y'umweru itwikirijwe igishashi kijya gusa na kaki iruhande hari umunyonzi urimo kugenda ndetse n'imbere y'iyo modoka hari umu motari urimo kugenda mu muhanda wa kaburimbo.

Imodoka isize irangi ry'umweru, yegeranye n'izindi ebyiri zisize idoma ndetse n'ikivurivundi, hino hakaba hari ibyatsi bikoze neza, hakurya yaho hari abagabo babiri, umwe wambaye umupira w'ubururu, undi yambaye uw'icyatsi, hirya yaho hari icyapa giciyemo akarongo.

Umumotari umwe urimo kugenda mu muhanda wa kaburimbo, wambaye imfashandindamutwe y’umutuku ndetse n’inda yitwaye ku kuboko kw’ibumoso. Hirya hari uruzitiro imbere yaho, hari igiti hirya yaho hari ipoto ijyana, amashanyarazi aciye mu migozi yabugenewe.

Ahasa nk'ahaparika imodoka z'amoko yose, asize irangi ry'umweru, hejuru handitseho ngo sitera, hakurya hakaba hari indi nini isize irangi ry'umukara, imbere yaho hakaba hari abantu bahetse ibikapu barimo kugenda, bafite n'anvirope mu ntoki.

Umumotari urimo kugenda mu muhanda wa kaburimbo ahetse umugenzi, ku nkengero zawo hasize irange ry'umweru ndetse n'umukara, hakurya hakaba hari ibiti bitondetse ku murongo biri ku nkengero, ku ruhande rw'ibumoso hakaba hari igikuta gikoze mu cyuma.

Imodoka isize irangi ry'ubururu imbere, inyuma hasize irange ry'umweru amapine y'umukara iri kugenda muri kaburimbo, inyuma yayo hari imodoka y'umutuku iruhande rw'inzu zombi hari ibiti byubatse bikikije umuhanda wa kaburimbo.

Imodoka y'umweru iri kugenda muri kaburimbo imbere yaho hari indi y'umukara hagati yazo hari moto ifuromye mu bwoko bwazo isize irangi ry'ubururu imbere yaho hari umunyonzi n'umumotari uhetse igisanduku cy'umuhondo iruhande rwawo hari umubyeyi wambaye ikanzu y'ibitenge indo imuteretse iruhande.

Umuhanda wa kaburimbo usa nk'aho ukoze muri sima y'ibiheri, harimo abagabo babiri barimo kugenda, umwe yambaye ikoboyi y'ubururu n'umupira w'umukara ahetse igikapu, iruhande rwe hari undi wambaye ishati y'ubururu ndetse n'andi mabara n'ikabutura y'umukara, barimo kugenda; hakurya hari inyubako ifite urugi rusize irangi ry'icyatsi.

Imodoka y'umweru iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, imbere yawo hari umugabo uri gutambuka, inyuma hari umunyonzi, hirya hari izindi ziparitse, ku nkengero hari ibiti, ku ruhande rw'iburyo hakaba hari urutindo rukoze mu mabuye.

Kaburimbo harimo umugabo wambaye imyenda y'ubururu, afite ingorofani iruhande rwe hari imodoka isize amarangi y'umweru, iruhande rwabo hari abandi bantu barimo kuhagenda hakurya hari inzu zifite imiryango isezera irange ry'icyatsi.

Abantu barimo kugenda mu muhanda, iruhande rwabo hari abicaye, hirya yaho hari inzu ikozwe mu biti, hakaba hari n'abanyonzi. Imbere yaho hari umutako w'ibyatsi bikoze neza.

Abantu batatu harimo abana babiri n'umugabo bari ku igare barimo kugendera mu muhanda, iruhande rwabo hahagaze abandi babiri umwe yambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara, umuri iruhande yambaye imyenda y'ubururu, hakurya yaho hari umuntu urimo kuza, iruhande rwaho hari imitako y'indabo zigiye zitandukanye, inyuma yaho hari ipoto iyobora umuriro w'amashanyarazi.

Ahasa nk'ahacururizwa ibiryo, imbere yaho hari ameza hicayeho umuhungu n'umukobwa, hakurya yaho hari umugabo wicaye imbere ya mudasobwa, hirya yaho hari icyapa gisize irangi ry'umuhondo handitseho Kigali, hakurya yaho hari ikindi cyapa gisize irangi ry'umukara handitseho ngo urisanga.

Ahantu hateye ibyatsi byinshi, hirya hari umugabo wicaye ku ntebe zihateye iruhande rwaho hari ibyuma by'umweru birimo ikibuga bashobora gukiniramo umukino w'amaboko.

Icyapa gifatiye ku gati k'icyuma, gikozwe mu mpande eshatu, kiri mu nkengero y'umuhanda wa kaburimbo, giteye mu twatsi, hakurya yaho hari inyubako ikoze mu mabuye ndetse hakaba hari n'utwuma dusize irangi ry'umweru ku ruhande.

Icyapa giteye ku nkengero z'umuhanda gifatiye ku cyuma gisa n'umweru hirya hari ibiti, umuhanda wa kaburimbo hari imodoka zirimo kugenda ndetse n'abagenzi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga, hino ku nkengero hakaba hari icyapa gisize irangi ry'umweru cyanyandikishijeho amabara y'umukara, gikoze muri mpande enye ebyiri ebyiri zingana, hejuru harimo nimero ya mirongo itandatu ku ruhanda hakaba hari uruzitiro rukoze mu biti binini.

Icyapa gikoze mu mabara y'umutuku kizengurutse kimeze nka zeru mo hagati hashushanyijemo imodoka haciyemo akarongo kaberamye hagati y'izo modoka ebyiri.

Icyapa gikoze mu mpande enye ebyiri ebyiri zingana, kiri mu ibara ry'ubururu cyandikishijeho ibara ry'umweru, hashushanyijeho imodoka ndetse handitseho amagambo ngo aho imodoka zihagarara.

Icyapa gifite impande enye zose zingana cyanditseho amagambo agira ati;"mu muhanda ugukora tubishyire imbere". Kikaba kirambitse ku ibara ry'umweru.

Agahanda gato gakoze mu dutafari twubakishije sima, hirya harimo kugendamo umugore wambaye ingutiya y'umukara ndetse n'umupira w'umweru n'umukara, hirya yaho hakaba hari icyapa gikoze muri mpande enye, ebyiri ebyiri zingana, kiranga amerekezo, kivuga yuko ari icyerekeza aho indege zihagurukira.

Ibiti bibiri bibiri bikoze mu byuma kuri buri ruhande, hejuru hariho icyapa gikoze muri mpande enye, ebyiri ebyiri zingana handikishijeho amabara y'umukara avuga ngo Igororero rya Nyamagabe, hirya y'aho hari inyubako ifite inzugi z'umuhondo, hakurya yaho hari umuhanda ndetse n'indabo ziri mu muhanda.

Kaburimbo imbere yaho hari icyapa cy'umuhondo gikozwe mu buryo bwa mpande enye zombi zingana, kiriho amerekezo arimo kwereka abagenzi ndetse iruhande rwaho hakaba hari igiti gifite amashami y'icyatsi.

Umugabo wambaye ipantaro yumukara ndetse n'umupira ujya gu gusa n'icyatsi uhetse igikapu cy'umukara wambaye inkweto z'umukara uhagaze mu muhanda wa kaburimbo ku nkengero hakurya yawo hari ibiti by'imigano ndetse n'umugabo uri hirya uri guturuka hakurya yaho wambaye umupira w'umweru ndetse n'ibara ry'umutuku ri muri uwo mwenda.

Icyapa cya mpande enye zingana, cy'ibara ry'umuhondo, hashushanyijeho imodoka irimo kugenda, handitseho ngo genda gake, umuvuduko muke.

Inzu nto imbere yaho hariho icyapa cyanditseho imibare rimwe umunani gatanu, inyuma yaho hari uruzitiro imbere harimo inzu ishakaje amabati atukura.

Icyapa kinini gikoze mu ibara ry'umukara, cyometse ku rindi ry'umuhondo; gifite mpande enye, hakaba harimo agakoni kerekeje muri izo mpande; kirambitse ahantu hasize ibara ry'umuhondo.

Icyapa gifite ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara hagati gifite utumenyetso tugenda turanga gikozwe mu buryo bwa mpande enye zombi zingana.

Icyapa cy'umutuku gishushanyijeho umuntu wambaye agatambaro mu mutwe k'umweru nikote ry'umukara, iruhande rwawo hari icyapa gikozwe muri zeru, nyuma yaho hari ibiti inyuma yaho hari inzu zifite amatara hejuru.

Inzu igeretse kabiri ifite inzugi zisa umutuku ifite umuryango mugari ikaba ifite n'igipangu gikozwe mu ndabo iruhande haparitse umumotari.

Umumotari udahetse umugenzi wambaye ikoti ry'umukara n'umweru urimo kugenda mu muhanda w'amabuye hirya hakaba hari abantu barimo kugenda na bo hakurya hakaba hari amapoto afite insinga iruhande rwawo hakaba hari inzu z'ubucuruzi.

Inyubako igeretse ifite urugi rurerure cyane ku yo hejuru, hirya handitseho kabiri shoti, hepfo hakaba hari imiryango ibiri ikinguye, iruhande rwaho hari icyapa kiri mu ibara ritukura hirya yaho hari igiti cy'ururabo kinini.

Inkingi ebyiri nini zibyibushye zikoze mu byuma, hagati yaho hari moteri iruhande rwabo hari imodoka size irangi ry'umukara, imbere yaho hari umugabo urimo kugenda, hirya hari umutaka w'akazu ka emutiyeni, hakurya kuruhande rw'ibumoso hari inzu.

Ihuriro ry'amazu yubatse ageretse asakaje amabati hino yaho hakaba hari indi isakaje amabati y'umukara hakurya yaho hari ibiti by'inturusu hino yaho hari ibiti bivanze by'amoko yose.

Inzu igeretse yubatse imbere ya kaburimbo, imbere yaho hari imodoka y'umukara ihaparitse yanditseho toyota, iruhande rw'iyo modoka hari indi modoka y'umweru, hakaba haparitse n'umumotari harimo kugendera abantu.

Kaburimbo irimo kugendwamo urujya n'uruza rw'abafite ibinyabiziga ndetse n'abagenda n'amaguru hakurya hari ininyubako igeretse gatatu isize irangi ry'umuhondo hakaba hari n'ibyapa byinshi bigenda biranga ibyo ba nyir'amazu bakoreramo.

Imbuga iri imbere y'inzu hariho umuryango imbere yaho hari ibiti by'imigano ndetse n'ibigori, hariho icyapa cyanditseho gatanu iruhande rwaho hari ikindi cyanditseho karindwi cy'umweru.

Umuryango w'inzu igeretse kabiri ufunze hirya yawo hari inzu yubakishije amatafari ahiye ifite idirishya hariho icyapa cyanditseho nimero makumyabiri na rimwe imbere yaho hari indabo z'amoko atandukanye.

Ihuriro ry'inzu zigeretse n'izitageretse, zisakaje amabati atukura ndetse n'andi mabara arimo ubururu ndetse n'umukara, hino yaho hakaba hari ibigori, haruguru yaho hakaba hari icyapa cyanditse mu mweru gikoresheje ibara ry'umukara ngo Kibagabaga.

Inzu igeretse gatatu ku ruhande rw'iburyo hari insinga ziyobora umuriro w'amashanyarazi, hejuru hari akantu gasa n'umukara ku ruhande rw'ibumoso hari icyapa kiriho amabara y'ubururu n'umutuku handitseho ngo eyateri.

Inzu ifite uruzitiro rukoze mu biti by'ibyatsi igeretse gatatu isize amarange y'umweru ndetse n'umukara, hejuru yaho hakaba hari icyapa cy'umukara iruhande hakaba hari ipoto iyobora insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi hariho n'itarara rimukirara abagenzi,

Inzu nziza cyane igeretse isize irange ry'umweru ndetse n'umuhondo, ku rukuta rwawo hagenda harutana hari ahantu hasakaye, hirya hari ibiti hakaba hari n'ipoto iri kugaragaza insinga, ituye iruhande rwa kaburimbo.

Igisambu kirimo ibyatsi by'amoko atandukanye, hirya hakaba hari inyubako isize amarange y'umweru n'ubururu n'umukara, ikaba ifite urugi rusa n'umukara.

Inyubako nziza isize amarangi y'icyatsi ndetse n'ubururu n'umukara yegereye umuhanda wa kaburimbo ifite uruzitiro rukoze mu byuma hakikijwe n'indabo z'amoko yose harimo izakuze ndetse n'izitarakuze.

Ibisambu binini bigaragara igice kimwe gituwe n'abantu ndetse n'ikindi kirimo ibyatsi gusa by'amoko yose hadatuwe n'abantu iruhande rwaho hari urutoki ndetse n'iruhande rwaho hari umurima udahinze.

Inzu igeretse isize amarangi y'umuhondo n'umukara, mu muryango wayo ukoze mu biti ufunze hirya hari idirishya, imbere yawo hari icyapa cyanditseho nimero makumyabiri na gatatu, hejuru yaho hari amagambo yanditse mu ibara ry'umuhondo.

Inyubako nini ifite igipangu kiriho amatara abiri, hirya hariho ibigega bikikijwe n'utwuma tw'umutuku, hejuru y'aho hari indi nyubako iriho ikigega ndetse n'undi muyoboro ubafasha kugira ngo babone interineti.

Imodoka ebyiri ziparitse imbere y'inzu igeretse rimwe, imbere y'iyo nzu hariho icyapa gifatanye, hamwe ku gace kamwe ari ak'umweru, akandi ari ak'umukara, hashushanyijeho icupa, iruhande rw'iryo cupa handitse ijambo ngo terasa.

Umuhanda wa kaburimbo urimo kugenderwamo n'imodoka iri ku ruhande rw'ibumoso, n'iri ku ruhande rw'iburyo, iruhande rwawo hari umukobwa uhetse igikapu, uri gutambuka yambuka umuhanda, hakurya hari inyubako igeretse, haparitse ibindi binyabiziga iruhande rw'aho.

Inzu zubatse zegeranye mu buryo bw'akavuyo, zisakaje amabati atukura, ay'ubururu ndetse n'umukara, hino hakaba hari ibiti by'inturusu biteye ari byinshi cyane, hakurya yaho hakaba hari ifoto iyobora umuriro w'amashanyarazi.

Inzu zisa nkaho ziri ahantu hamwe hirya hari guturuka imodoka, imbere yaho hari igiti cya pinusi hakurya hakaba hari icyapa gikoze mu mpande ebyiri ebyiri zingana handitseho ko ari ahatangirwa amata, ku muryango hafunzwe hari igishushanyo cy'umwana, imbere yaho hakaba hari icyapa kirimo umweru, cyanditseho cya mitsingi i Remera.

Inzu zubatse zigeretse zisakaje amabati ku mpande hariho ibigega, iruhande rwawo hari ibiti ndetse n'ibigori bihateye, hakaba harimo ibara ry'umweru ryanditsemo umukara usobanura ngo umurenge wa Ndera.

Icyapa gifatiye ku cyuma giteye mu butaka, gifite pande enye ebyiri ebyiri zingana cyanditseho mu mabara y'umukara ngo KK mirongo itanu na gatandatu S na T, iruhande rwabo hari ipoto iyobora umuriro w'amashanyarazi, hakurya hakaba har'ibiti.

Kaburimbo ku nkengero hari amabara y'umukara n'umweru hakurya yaho hari icyapa gikoze muri mpande ebyiri ebyiri zingana handitseho ngo ikaze muri kigali kwizigamira hakurya yaho hakaba hari imodoka zisize amarangi y'icyatsi n'umweru iruhande rwaho hari agasanduku gashyirwamo imyanda.

Inzu igeretse kabiri ifite uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye, hariho ibyuma, hariho amatara abiriye hejuru ndetse ku ruhande hari umugozi.

Kaburimbo isize amarangi y'umweru n'umuhondo, isa umukara, hakurya yaho hari imodoka ebyiri, hino hari indi, hagati yabo hari umumotari, hari n'umugabo uhagaze iruhande wambaye imyenda y'imikara n'ishati irimo amabara, hirya yaho hari ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo urimo kugaragaza aho abantu bambukira, ndetse n'aho ibinyabiziga binyura, harimo imodoka zirimo kugenda abagenzi b'abamotari, ndetse hakuryaho hari ishyamba ry'ibiti, hakurya ku nkengero hari umuhanda ukozwe mu matafari ahiye.

Kaburimbo itarimo ikinyabiziga na kimwe, hakurya hari itara rimurika nijoro, ibiti bikikije umuhanda, hakurya hakaba ibindi biti ndetse bikaba bikikije inzu igeretse kabiri.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragaza aho abanyamaguru bambukira n'aho ibinyabiziga binyura, harimo moto ebyiri zirimo kugenda zitwaye abagenzi, hirya hakaba hari imodoka isize irange ry'umutuku, ku ruhande rw'ibumoso hakaba hari umubyeyi birimo kuhagendera, ku nkengero zawo hakaba hari ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragaza aho abanyamaguru bambukira, hirya yaho hari amapoto abiri acanye, iruhande rwaho hari indi imwe ifite amatara atatu, hirya hari guturika imodoka zirimo kugenda n'urujya n'uruza rw'abantu.

Ihuriro ry'imihanda aho abanyamaguru barimo kwambuka ndetse hirya yabo hakaba harimo y'umweru iri kugenda iruhande rw'iyo modoka hakaba hari abamotari batatu nabo barimo kwambuka.

Umuhanda wa kaburimbo urimo amatara arimo kwaka abiri hejuru kurukuta rw'inzu hakaba harimo n'imodoka zirimo kugenda hari icyapa kiriho akarange k'ubururu hakurya hakaba hari ibiti ndetse hakaba harimo abantu barimo kugenda.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo umunyonzi wambaye umupira w'umukara n'ipantaro ndetse n'inkweto n'ingofero y'umutuku, imbere ye hari abamotari babiri, imbere yabo hari imodoka isize irangi ry'umweru, ku nkengero za kaburimbo hari ibiti by'inturusu.

Kaburimbo irimo umugabo urimo kugenda wambaye ishati y'ikivurivundi ipantaro y'umukara hirya y'aho hakaba hari icyapa cyanditseho eyateri hakaba hari n'abantu barimo kugenda ku ruhande hirya y'abo bantu harimo inzu igeretse kane.

Ubutaka iruhande rwaho ibumoso hari uruteme rwubakishije sima, hakaba hari n'umwobo, hirya y'aho hari inyubako y'inzu, iruhande rwaho iburyo hari ibiti ndetse hakaba n'inzira.

Imodoka ebyiri zirimo kubisikana, ziri kunyura mu muhanda ahagaragara yuko hambukira abanyamaguru; hakurya hari inyubako igeretse yubakishije amatafari ahiye, iruhande rwawo hari amapoto ayoboye insinga z'umuriro w'amashanyarazi; hakurya hari umutaka w'akazu ka Emutiyene.

Umuhanda wa kaburimbo uciyemo imirongo igaragaza aho abanyamaguru bagomba gutambuka, hakurya hakaba hari igenzurabinyabiziga imbere yaho hakaba hari itara rimurika hakurya yaho hari ibiti bikikije uwo muhanda wa kaburimbo.

Umuhanda wa kaburimbo washushanyijemo urwego hagati, hirya hari guturuka imodoka y'umukara iruhande rwawo hari icyapa, hakikijwe n'ibiti ndetse n'indabo, inyuma ye hari umumotari.

Kaburimbo iri kugendwamo n'abamotari babiri uw'inyuma ahetse umubyeyi uhetse umwana, uw'imbere ahetse umugabo iruhande rwaho hahagaze umunyonzi, inyuma yaho hari urutindo.

Kaburimbo mo hagati harimo umutako mwiza w'indabo iruhande rwaho hari abanyonzi, hakurya ku ruhande rw'iburyo hari umumotari uhetse umukobwa wambaye umwenda w'umweru n'ipantaro y'ikoboyi.

Umumotari wicaye kuri moto irimo kugenda mu muhanda kuri kaburimbo, hirya hari icyapa gisa nk'aho kirangira abantu aho bajya, cyegereye ibiti by'amoko agiye atandukanye.

Kaburimbo irimo kugendwamo na moto ebyiri, imwe iri imbere, indi iri inyuma. Ku ruhande rw'iri inyuma hari umuntu wambaye ishati y'umweru ndetse n'umupira w'umukara. Iruhande rwaho hari icyapa kiri mu marangi y'umweru ndetse n'umukara. Hakurya hari inzu zihubatse ziparitse imodoka iruhande, ndetse n'ibiti biri hakurya yaho.

Kaburimbo irimo irimo akamodoka ya aka vatiri y'umutuku amapine yumukara hijya hari icyapa kiri kuyobora abantu icyerekezo hagati ndetse no ku ruhande rw'iburyo naho hari icyapa hirya hari umugore urimo kugenda mu muhanda n'imodoka iri guhinguka ndetse n'umumotari uhetse umugenzi.

Umuhanda wa kaburimbo, hakurya ku ruhande rw'ibumoso hariho icyapa cya mpande enye, ebyiri ebyiri zingana, gisize irangi ry'umuhondo n'umukara, hari guturuka hirya yaho imodoka itwikirije shitingi isa n'umweru n'umumotari ayiri iruhande arimo kugenda.

Mu muhanda wa kaburimbo, imbere hari ipoto y'icyuma, iruhande rwayo hari imfotorabinyabiziga, hakurya harimo guturuka imodoka nyinshi, ndetse iruhande rwawo haparitse abamotari.

Umuhanda wa kaburimbo urimo kugendwamo n'abamotari batatu imodoka ebyiri ndetse n'abagenzi b'amaguru, hakurya hari icyapa cy'umweru ndetse no ku ruhande rw'iburyo hari ikindi cyapa kirimo ibara ry'umweru ndetse ni ry'ubururu.